Aha ngaha iri ni itangazo ryamamaza, barimo baramamaza ubwishingizi bagira bati, gura ubwishingizi bw'impanuka zonona umubiri butangwa na radiyanti yacu, mwirinde si namenye, bikaba ari byiza cyane.

Aha ngaha ni icyapa cyo mu muhanda cyamamaza ndetse kikaba cyamamaza ikigo cy'ubwishingizi, bikaba mu bigaragara handitseho ko tugomba kurinda mu rugo ndetse tukanakoresha ubwishingizi. Ku cyapa hariho n'ishusho y'inyamaswa yitwa imbwa.

Iri ngiri ni itangazo ryamamaza ry'ubwishingizi, rivuga ati ubwishingizi bwo kwiba, ntawamenya ejo wasanga ibyawe byibwe, irinde sinamenye.

Aha ngaha ni mu muhanda mugari ndetse hirya gato ku ruhande rw'iburyo hakaba hari icyapa kinini, cyamamaza ubwishingizi batanga ubwishingizi ku binyabiziga ndetse no ku bantu.,

Aha ngaha nkuko bigaragara bari kwamamaza, ni ikigo cy'ubwishingizi kirimo kiramamaza ati "Inzu yawe ni igishoro cyawe kinini ikaba n'agaciro kawe". Menya neza ko inzu yawe yishingiwe kandi irinzwe na Radiant.

Aha ngaha hari ameza ndetse hari n'intebe akaba hakorerwamo n'ikigo gitanga ubwishingizi ku bantu ku mashyirahamwe ndetse no ku binyabiziga.

Iri ngiri ni itangazo ryamamaza bakaba bari kwamamaza ibigendanye n'ubwishingizi bw'ingwate. Gura ubwishingizi bw'ingwate, ku bapiganira amasoko atandukanye.

Hano ni ubwishingizi burimo buramamaza bagira uti turi kumwe gura ubwishingizi bw'ubuzima bwawe n'ubwumuryango ukanze akanyenyeri magana atanu mirongo itatu na rimwe urwego ndetse ahangaha hakaba hifashishijwe n'umuryango umugabo n'umugore ndetse n'abana babiri.

Iki ni icyapa cyamamaza cyo ku muhanda, kikaba ari kinini cyane, kikaba cyamamaza ikigo cy'ubwishingizi, cyerekana ko gitangira kuva ku ifaranga rimwe n'ibice mirongo itanu by'amafaranga y'Amerika.

Iyi ngiyi ni porogaramu yifashishwa muri terefoni ngendanwa, ikaba yifashishwa n'ikigo cy'imari kugira ngo cyorohereze abaguzi bacyo mu rwego rwo kohererezanya no kwakira amafaranga mu buryo buboroheye.

Iyi ngiyi ni telefoni igendanwa ndetse akaba harimo barakoresha urubuga rwo kuri murandasi rw'ikigo cy'imari, bikaba byifashishwa mu kohereza, kwakira ndetse no kwishyura amafaranga mu buryo bworoshye hifashishijwe itumanaho.

Uru nguru ni urubuga rwo kuri murandasi rwifashishwa n'isosiyete ishinzwe itumanaho ndetse rukaba rwifashishwa mu kwerekana ibikorwa wakoreyeho ku bubiko bwawe ndetse no kohereza no kwakira amafaranga.

Aha ni mu iguriro ry'imyenda ririmo imyenda myinshi itandukanye kandi myiza hakaba higanjemo iy'abagabo ndetse n'iyabagore bose bakaba baza bakabonamo ibakwiriye kandi myiza.

Aha ngaha ni mu iduka ricuruza imyenda harimo abagabo babiri ndetse n'abagore babiri. Hakaba hacururizwa imyenda y'ubwoko butandukanye iy'abagabo n'iy'abagore kandi imyenda myiza cyane ibereye abanyarwanda.

Aha ngaha ni mu iduka ndetse iri duka rikaba ricuruza ibikoresho by'ubugeni ndetse n'imitako myiza karemano, bikorerwa iwacu mu Rwanda.

Hano ni ku iduka. Hari umukozi Urikoramo ndetse hari n'uwaje guhaha ibicuruzwa, muri make iri duka ricuruza ibyoku kurya nibyo kunywa ndetse n'ibindi bikoresho byifashishwa mu isuku n'ibindi mu rugo mu buzima bwa buri munsi.

Aha ngaha hari imyambaro, imyambaro ikaba yambarwa n'abagabo ndetse ikaba yambarwa n'abagore ndetse imyambaro ni myiza cyane kuko ibereye kwambarwa n'abanyarwanda.

Urunguru ni urukweto, urukweto ni rwiza, rukozwe mabara meza ndetse ahangaha ni ahantu bacururiza inkweto zitandukanye ziganjemo iz'abagore.

Aha ngaha ni mu iduka ricuruza imyenda itandukanye ndetse hakaba hari imyenda y'abana ndetse n'imyenda y'abantu bakuze y'amaboko magufi.

Hano hari imodoka ndende yo mubwoko bwa makuzungu ikaba ari imodoka itwaye imashini yifashishwa mu gukora umuhanda.

ahangaha hahagaze imodoka zirenze imwe ndetse izi modoka mu bigaragara zishobora kuba ari imodoka zigurishwa ziri ku isoko.

Aha ngaha hahagaze abagabo babiri mu byukuri, umwe yaje kugura imodoka mu kigo cy'Akagera, hakaba hahagaze n'imodoka ebyiri ntoya zigurishwa, inyuma yabo hari inyubako ndende.

Ahangaha hahagaze ikinyabiziga, ndetse iki kinyabiziga mu bigaragara kiriho ibirango y'uko iki kinyabiziga kigurishwa ndetse kikaba kiri i Kigali.

Aha ngaha ni ahantu imodoka zihagarara haba hahagaze imodoka nziza cyane ndetse iyi modoka ishobora no kuba igurishwa.

Aha ngaha hari abagabo babiri, abagabo bakaba umwe muri bo yaje kugura imodoka mu kigo cy'akagera, hino hakaba hahagaze imodoka yo mu bwoko bw'ikamyoneti itwara imizigo.

Imodoka ntoya yo mu mabara y'umukara, ikaba ihagaze ahantu imodoka zihagarara ndetse ikaba igurishwa miliyoni mirongo itatu z'Amanyarwanda, hakaba hazengurutswe n'urukuta ndetse hirya hakaba hari ibiti ndetse nyuma y'aho kure hari amazu.

Aha ngaha hahagaze imodoka yo mu mabara y'umweru, iyi ngiyi ikaba ari imodoka nziza cyane, bitewe n'uburyo igaragarira amaso, ndetse ikaba ari imodoka igurishwa n'ikigo cya Kigali gicuruza amamodoka.

Aha ngaha hari abagabo babiri, bari imbere y'imodoka nini, yo mu bwoko bwa makuzungu itwara ibintu, ndetse bakaba bahagaze nk'abari kugura imodoka.

Aha ni ahantu hahagaze imodoka ndetse imbere hakaha hahagaze abagabo babiri bakorera ikigo cy'Akagera kigurisha imodoka, muri make umwe muri aba bagabo akaba yaje kugura imodoka, bacuruza imodoka nziza cyane.

Aha ngaha hahagaze imodoka y'amabara y'umweru, ndetse ikaba ari imodoka yakozwe mu bihumbi bibiri n'acumi n'akane, ikaba ari imodoka y'amashanyarazi ndetse ikaba igurishwa miliyoni cumi n'ebyiri.

Ahangaha hakaba hahagaze imodoka enye zo mu mabara y'umweru zitwara abantu mu buryo bwa rusange, ku bigaragara izi modoka zishobora kuba zigurishwa.

Abagabo batatu bigaragara baje kugura imodoka barimo ugurisha ndetse n'ugura, inyuma yaho hahagaze imodoka ebyiri z'ubwoko bw'amakamyoneti atwara imizigo.

Hano ni mu nyubako ikoreramo ikigo cy'imari, ndetse hakaba harimo abaje bakigana hakaba hari n'abarimo bakoramo barimo baratanga ubufasha ku bakiriya.

Aha ngaha ni umuntu ufite amafaranga y'inoti y’igihumbi mu ntoki, ndetse akaba afite n'izindi noti ku meza. Mu by'ukuri ashobora kuba ari kuyabara.

Aya ngaya ni amafaranga yo mu bwoko bw'igiceri, ndetse iki giceri kikaba ari icyo mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, kikaba cyarakoreshwaga mu mwaka w' igihumbi magana acyenda mirongo irindwi n'irindwi.

Hano ni umuntu ufite amafaranga y'inoti, ndetse akaba afite agaciro k'igihumbi akaba arimo arayabara kugira ngo arebe umubare w'ayo mafaranga.

Ahangaha hari icyuma cy'ikoranabuhanga kibara amafaranga y'inoti, ndetse hari n'umugabo urimo urabara inoti agira ngo arebe umubare wayo.

Aha ngaha ni ahantu bacuruza ibintu bigendanye n'amata, ndetse hakaba hari n'amazi. Aha ngaha imbere hari icyuma gishinzwe kubika amata kugira ngo atangirika cy'uruganda rw'inyange.

Aha ngaha ni mu iduka ricuruza amata ndetse rikabaka ricuruza n'imitobe ikomoka ku mbuto.

Iyi ngiyi ni indobo iri hejuru y'ameza, ikaba ari indobo irimo ibyo kurya bikomoka ku ngano ndetse aha ngaha hameze nk'ahantu hacururizwa ibyo kurya ndetse n'ibindi birimo nk'amata ndetse n'ibindi bitandukanye.

Aha ngaha ni ku isahani ndetse ikaba iteretseho ibyo kurya bikozwe mu ifu y'ingano ndetse hakongerwamo n'amasukari, bigatekwa bikaba ari ibyo kurya biryoha cyane cyane biryohera abana.

Iyi nyubako irimo abantu batatu umwe aricaye undi amuhagaze iruhande, hari ibyo kurirwaho biriho ibiryo, ndetse hakaba hari icupa na ryo ririmo ibyo kunywebwa. Aha hantu ni aho bafatira amafunguro yihuse.

ahangaha ni mu iduka ricuruza ibyokunywa bikomoka ku nka ndetse akaba ari n'icyuma gishinzwe kubika amata kugira ngo atangirika cy'uruganda rwa Mukamira.

Aha ngaha ni mu iduka ricuruza ibyo kurya n'ibyo kunywa cyane cyane ibyo kunywa bikomoka ku mata ndetse hakaba hari abicaye barimo barafata amafunguro, akaba ari numwe uhagaze bigaragara nk'aho ari umukozi waho.

Ububiko burimo ibyandi byinshi cyane, bifite amabara y'umweru, bikaba bishobora kuba birimo amata yo kunywa akomoka ku nka zo mu Rwanda.

Aha ngaha ni urubuga rwo kuri murandasi ndetse rwifashishwa mu kohereza no kwakira amafaranga, hano bakaba barimo barareba ibikorwa byakozwe ku bubiko bwabo.

Aha ngaha ni umuntu ufashe telefoni mu kiganza, ndetse akaba ari ku rubuga rwo kuri murandasi, rwifashishwa mu itumanaho mu kwakira no kohererezanya amafaranga, ndetse no kwishyura ibicuruzwa.

Ahangaha ni ku rubuga rwo kuri murandasi rukaba rwifashishwa n'ikigo cy'imari cy'abanyamerika mu kohereza kwakira kubikura amafaranga.

Ni umuntu ufashe telephone igendanwa mu ntoki ndetse rukaba ari ku rubuga rwo kuri murandasi rwifashishwa mu kugura ibicuruzwa ukoresheje ikoranabuhanga wibereye i wawe mu rugo bakabikuzanira.

Iyi ngiyi ni telefoni ngendanwa ndetse ikaba iri ku rubuga rwo kuri murandasi, rwifashishwa n'ibigo by'imari mu kohereza no kwakira ndetse no kubikuza amafaranga mu buryo bworoshye.

Urubuga rwifashishwa, kuri za telefoni ngendanwa, n'ibigo by'itumanaho, mu kwishyura, kwakira, ndetse no kohereza, amafaranga mu buryo bw'ikoranabuhanga.

Urunguru ni urupapuro nyemezabwishyu rukaba ruhabwa umuntu umaze kwishyura imisoro ndetse akaruhabwa n'ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro.

Urunguru ni urupapuro rw'ikigo cy'imari ndetse rukaba rwerekana ibikorwa uyu Rutayisire yagiye akorera ku bubiko bwe bw'iki kigo.

Uru nguru ni urupapuro rw'inyemezabwishyu ihabwa umuntu umaze kwishyura imisoro n'amahoro, ukaba uyihabwa n'icyigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro.

Urupapuro nyemezabwishyu rutangwa n'ikigo k'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro, rukaba rwerekana imisoro wishyuye ndetse n'amatariki wishyuyeho.

Iyi ngiyi ni inyemezabwishyu y' ikigo k'imisoro n'amahoro ikaba ihabwa umuntu umaze kwishyura imisoro ,akayihabwa n'ikigo cyigihugu gishinzwe imisoro n'amahoro.

Aha ngaha ni umuntu akaba afite inoti nyinshi nkuko bigaragara. Muri make, izi noti arimo arazibara kugira ngo amenye igiteranyo cyazo.

Aha ngaha hari amafaranga menshi agiye abumbatiye mu mizingo itanu, akaba ari amafaranga magana abiri akoreshwa mu bihugu by'Uburayi.

Aya ngaya ni inoti nyinshi, zifunze mu buryo bw'imizingo ndetse akaba ari n'amafaranga y'inoti yo mu bihugu bitandukanye.

Hano umuntu ufite amafaranga mu ntoki ndetse zikaba ari inoti zishobora kuba ari izo mu bihugu bitandukanye, umuntu ashobora kuba akora akazi ko kuvunjisha amafaranga.

Aha ngaha hari inoti nyinshi ndetse zigiye zitandukanye zo mu gihugu cy'abaturanyi hakaba harimo inoti y'amafaranga magana atanu, inoti y'amafaranga igihumbi ndetse n'inoti y'amafaranga ibihumbi bibiri.

Aha ngaha hari inoti, inoti y'ifaranga rimwe, ikaba yerekana imbere y'iyi noti ndetse n'inyuma, ibirango byayo bikaba ari ibyo mu gihugu cya repubulika iharanira demokarasi ya Kongo.

Aha ngaha ni mu nyubako y'ikigo cy'imari runaka, hahagazemo abagore babiri, umwe akaba afite amafaranga y'u bwoko bw'inoti mu ntoki, akaba arimo arayabara ngo arebe umubare wayo.

Aha ngaha ni umuntu ufite inoti nyinshi mu kiganza, ndetse mu bigaragara uyu muntu akaba arimo arabara aya mafaranga.

Iyi ngiyi ni inoti, inoti iriho imparage ndetse n'ibindi by'ubugeni, ikaba ari inoti y'amafaranga ibihumbi bitanu, ikaba ari inoti yo mu gihugu cy'abaturanyi.

Aha ngaha ni ku mpapuro ziriho imibare mpuzandengo ndetse hejuru hakaba hariho n'amafaranga y'inoti y'ijana menshi cyane yo mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.

Ahangaha ni abantu babiri bari guhererekanya amafaranga uburyo buzwi nk'ivunjisha ko arimo aramuha amafaranga yo mu gihugu cy'Abanyamerika undi ari kumuvunjira abaha ayo mu gihugu cya Nijeriya.

Iyi ngiyi ni inoti y'amafaranga ijana. Ikaba ari inoti yo mu Gihugu cy'Ubuhinde, ndetse hakaba hari n'ibiceri bitatu, bibiri bisa n'ikindi bigaragara ko bidasa.

Hano ni umuntu wambaye indorerwamu z'amaso, akaba afite inoti nyinshi zitandukanye, mu by'ukuri ari kubara aya mafaranga afite igiteranyo cyayo.

Aha ngaha hahagaze abantu babiri, mu by'ukuri bafite inoti ndetse bakaba bashobora kuba bari kubara izi noti, ngo bamenye umubare wazo muri rusange, zose bayateranyije.

Iringiri ni itangazo rya banki nkuru y'u Rwanda rikaba ryerekana uburyo amafaranga atandukanye y'ibihugu bitandukanye agurwa mu manyarwanda ndetse n'igiciro agurishirizwaho.

Aha ngaha uko bigaragara iyi ngiyi ni inoti y'amafaranga rimwe iyi noti ikaba ishushanyijeho umugabo ndetse ikaba ishushanyijeho n'ibindi bintu.

Aha hantu hakorerwa ubucuruzi bw'amafaranga y'abanyamahanga, ashyirwa mu manyarwanda cyangwa se amanyarwanda ashyirwa mu manyamahanga, hagamijwe gukora ubucuruzi ndetse imbere hakaba hari n'icyapa kigaragaza Bukavu, Kigali, Kampala.

Aha ngaha ni mu nyubako ndetse hakaba harimo n'icyumba gikorerwamo n'ikigo gitanga ubufasha mu kuvunjisha amafaranga yo mu bihugu bitandukanye, bitewe n'ayo ushaka mu rwego rwo koroshya ubucuruzi.

Hano ni ku nyubako ikorerwamo ahantu bavunjisha amafaranga yo mu bihugu bitandukanye; ndetse no kwakira amafaranga aturuka mu mahanga.

Aha ngaha ni ku nyubako, ndetse iyi nyubako, ikoreramo ikigo gishinzwe kuvunjisha amafaranga mu buryo bwo koroshya ubuhahirane n'ibindi bihugu by'amahanga.

Aha ngaha nk'uko bigaragara hari ibikoresho byiza, harimo intebe biba bikozwe mu mbaho zikomoka ku biti, ibi bikoresho bikaba ari ibyo mu ruganiriro.

Aha ngaha hari intebe ndetse n'ameza, byagenewe uruganiriro ndetse ikaba iri mu mbuga y'iyi nzu, inyuma hakaba hubatse indi nzu ndetse ikaba ikozwe no mu mbaho nziza.

Aha ngaha ni mu ruganiriro hari intebe nziza ndetse dufite n'imifariso yo kwegamaho, hakaba n'ameza ndetse byose bikaba bikozwe mu biti byiza byatewe iwacu mu Rwanda.

Aha ngaha ni mu nzu mu imbere ndetse hakaba harimo ibikoresho byo mu ruganiriro, ibibikwamo ibikoresho byo mu gikoni bikaba ari ibikoresho bikozwe mu mbaho nziza kandi zikomeye.

Hano ni mu mbuga y'urugo ndetse hakaba hari intebe nyinshi hakaba hari n'ameza ndetse bikaba ari byifashishwa mu ruganiriro.

Aha ngaha ni mu nzu imbere ndetse hakaba hatakishijwe ibikoresho bituruka ku biti ari byo byitwa imbaho, aha hantu hatatse neza pe.

Aha ngaha ni mu ruganiriro, hakaba hari intebe ndetse n'ububiko bw'ibikoresho byo mu rugo bikozwe mu mbaho zikomoka ku biti ibyiza by'iwacu mu Rwanda, uru ruganiriro ni rwiza cyane nkuko bigaragarira amaso.

Izi ngizi ni intebe nziza zikorwa mu mbaho zikomoka ku biti by'iwacu mu Rwanda, zikaba zifashishwa mu ruganiriro ndetse n'ahandi hose hakenerwa.

Izi ngizi ziri hano muri uru rugo, ni intebe zifashishwa mu ruganiriro, abantu bari kuganira. Zikaba zikorwa mu mbaho nziza, zo mu Rwanda.

Aha ngaha ni mu ruganiriro. Hari intebe nziza zifite n'imifariso yo kwicaraho, kaba ari n'ameza, ndetse bikaba bikozwe mu biti byiza, biterwa mu Rwanda.

Ikiyaga cy'amazi karemano kikaba kiri imbere y'inyubako ndende bigaragara ko hashobora kuba ari amacumbi acumbikirwamo abantu ndetse hakabakunda no gukorerwa ibijyanye no gutanga amafunguro.

Aha ngaha ni ahantu hari intebe nyinshi ndetse hakaba hanacururizwa ibyo kunywa bisembuye n'ibidasembuye, hashobora no kuba hari amacumbi.

Aha ngaha ni mu busitani bwiza ndetse imbere hari n'ihema ziteyemo intebe zo mu ruganiriro ahantu, hakaba hameze nko ku ihoteli abantu bafatira ibyo kurya n'ibyo kunywa ndetse no kuruhukira.

Ahangaha hari inyubako ndende, inyubako hakaba ari ku macumbi ndetse hanze hakaba hari amazi akorwa aba ameze nk'ikiyaga ariko mu buryo bwa karemano, akaba yogerwamo n'abantu mu buryo rusange.

Aha ngaha ni mu nyubako ikigaragara cyo iyi nyubako irageretse ndetse hakaba hari n'amasikariye, iyi nyubako kandi irimo n'agakoresho k'amabara atukura kifashishwa mu kuzimya inkongi y'umuriro.

Aha ngaha ni munzu, ndetse aha imbere yacu akaba ari ahantu barongera ibyo kurya, ndetse bakanahogereza ibikoresho bakoresha ku meza, iyi nzu.

Aha ngaha ni mu nzu iberamo inama. Aba ari inzu irimo intebe ndetse na ameza ikaba hari namazi. Ikaba ifite n'igikoresho imbere kifashishwa mu kwerekana amashusho, ikaba ifite n'matara meza cyane mu by'ukuri iyi nzu ni nziza.

Aha ngaha ni mu nyubako, inyubako mu bigaragara ni nziza ndetse hari za mudasobwa hakaba hameze nk'aho haba ari ku cyicaro cy'ubwishingizi.

Aha ngaha ni abantu bicaye mu cyumba gitangirwamo ubufasha n'ikigo gishinzwe gutanga ubwishingizi bw'ibinyabiziga ndetse n'abantu.

Aha ngaha hahagaze abagabo babiri, umwe nk'ugaragara nk'aho ari umunyamahanga, ndetse undi akaba ari umwirabura, bakaba bahagaze mu cyumba gikoreramo ubwishingizi.

Inyubako ndende, ikaba igizwe ahanini n'imiryango y'ibirahure bibonerana, hakaba hakoreramo ikigo gitanga ubwishingizi ku bantu ndetse n'ibinyabiziga.

Iyi ni inyubako ndende inyubako ikaba ari iy'ubucuruzi, ndetse hakaba hanakoreramo ikigo gishinzwe gutanga ubwishingizi ku binyabiziga ndetse no ku bantu.

Aha ngaha ni mu mujyi wa Kigali, umuhanda urimo uragendwamo n'pikipiki ndetse n'abantu. Hakaba hari n'inyubako nini cyane ikorerwamo n'ikigo gishinzwe gutanga ubwishingizi.

Ni inyandiko yandikishijwe inyuguti z'umukara, ndetse ikaba ari inyandiko iriho icyo bita amategeko n'amabwiriza akurikizwa.

Aha ngaha uko bigaragara hari abantu batonnze umurongo, hari n'abandi bari imbere hano y'umukozi, bimeze nkaho bari mu kigo cy'imari ndetse bakaba bashobora kuba baje gufata inguzanyo.

Uru nguru uko rugaragara ni urupapuro, urupapuro rukaba ari urupapuro rwinguzanyo rwo mu kigo cy'imari gitanga inguzanyo ku baturage, baba babitsamo kugira ngo biteze imbere.

Aha ngaha nk'uko bigaragara, ni ikigo cy'imari gishinzwe kubika no kubikuza amafaranga y'abaturage, ndetse bakaba barimo no gushishikariza abaturage gufata inguzanyo kugira ngo bakomeze biteze imbere.

Aha ngaha ni mu kigo cy'imari. Aha ngaha uyu mugabo ufite ikaramu n'urupapuro akaba yaje kugana iyi banki. Ndetse uriya mugore urimo imbere ufite amafaranga akaba arimo aramuha ubufasha.

Ahangaha hagaragara umugore urimo uragaragara ari kumwenyura ndetse ikaba bigaragara urupapuro r'ikigo cy'imari rwitwa urwego. bakaba barimo barashishikariza abahinzi gufata inguzanyo kugira ngo batere ibigori babone umusaruro uhagije.

Aha ngaha ni mu nzu ikorerwa, ikigo cy'imari kizwi nk'umwarimu ndetse hakaba hari aho batangira ubufasha hariya hahagaze abagabo babiri, bategereje amafaranga.

Aha ngaha ni mi iguriro ry'ibyo kurya bitandukanye higanjemo imbuto ndetse n'imboga, hakaba hicayemo n'umugore akaba ari we uri gucuruza ibi biribwa.

Ahangaha ni mu isoko. Isoko rikaba ririmo ibicuruzwa by'imyenda yo kwambara, yiganjemo iy'abagore, ndetse hakaba harimo n'abacuruzi.

Aha ngaha ni mu isoko ricuruza ibyo kurya byiganjemo imboga, imbuto ndetse ibishyimbo, amashaza, ifu ndetse n'ibindi.

Hano bitewe n'urujya n'uruza rw'abantu barimo, ni mu isoko ndetse ubona ko hari n'indobo irimo ibyo kurya bikorwa mu birarayi ndetse n'ifarini bizwi nk'ibiraha.

Aha ngaha ni mu isoko, ndetse aha imbere hakaba hari abategarugori babiri, imbere y'abo bigaragara bacuruje amagi, aya amagi akaba ari meza, nk'akomoka ku nkoko z'inyarwanda.

Hano ni mu mujyi rwagati ndetse hakaba hari inyubako ndende cyane, ikorerwamo ibikorwa bitandukanye byiganjemo iby'ubucuruzi ndetse imbere hakaba bahagaze amamodoka ndetse hakaba harimo haragenda n'abantu hafi yaho.

Aha ngaha ni mu nzu, itangirwamo ubufasha bujyanye n'ibibazo by'itumanaho, kohereza no kwakira, amafaranga hifashishijwe iyakure.

Ahangaha ni mu iguriro batangamo serivisi zigendanye n'iz'itumanaho ndetse akaba ari abakozi babishinzwe bari imbere ya mudasobwa, hakaba hari n'abaturage baje gushaka ubufasha.

Ahangaha hari abantu bakikije, uyunguyu wicaye akaba akorera ikigo cy'itumanaho, bakaba baje kumureba ngo abakemurire ibibazo bafite bigendanye n'itumanaho.

Aha ngaha ni mu muhanda nyabagendwa ndetse hakaba hari ipikipiki, imbere y'ipikipiki hakaba hahagaze umukobwa wambaye impuzankano y'umuhondo, akaba harimo aramuha ubufasha ku bijyanye n'itumanaho.

Aha ngaha ni ahantu hatangirwa ubufasha mu bigendanye n'itumanaho bakaba bagurisha itumanaho abangaba bambaye imyambaro y'umuhondo ni abakozi baho ndetse bakaba bahaga imbere ya mudasobwa bari gufasha umukiriya.

Ngaha ni kubuga rwo kuri murandasi rukaba ruruga rucuruza ibyo kurya ukabigura ukoresheje ikoranabuhanga bakabikuzanira iwawe mu rugo utavunitse.

Aha ngaha ni ku rubuga rwo kuri murandasi muri telefone cyangwa se muri mudasobwa, ku kigo gishinzwe gutanga ubufasha ku itumanaho bakaba barimo barerekana uburyo bagurishamo.

Uru nguru ni urubuga rwo kuri murandasi, rucuruza ibicuruzwa bitandukanye harimo imyenda ndetse n'ibindi bikoresho by'ikoranabuhanga, ukabigura uri mu rugo bakabikugereza aho uri.

Aha ngaha ni ku rubuga rukorera kuri murandasi rukaba ari urubuga rucuruza ibyo kurya ndetse hakaba hariho n'amafaranga bigura bakabikuzanira iwawe mu rugo.

Urunguru ni urubuga rwo kuri murandasi rucuruza ibicuruzwa bitandukanye, harimo imyenda ndetse iy'abagabo, iy'abagore yakorewe mu Rwanda ndetse n'iy'abana, hanacururizwa imiti itandukanye.

Aha ngaha hari umugabo utwara ipikipiki ndetse arahagaze akaba ari guhereza agasanduku undi mugabo bigaragara ko yari amuzaniye ibintu yari yaguze kuri murandasi.

Aha hahagaze amapikipiki ane imbere y'inzu. Ipikipiki hakaba hariho n'abayatwara akaba ari amapikipiki yifashishwa mu gutwara ibicuruzwa byaguriwe kuri murandasi.

Urubuga rwo kuri murandasi, rwifashishwa mu kugura ibicuruzwa bigiye bitandukanye. Aho ubigura uri mu rugo bakabikuzanira iwawe nta rugendo ukoze.

Aha ngaha ni ahantu hakorerwa ubucuruzi bwo kuri murandasi aho utumiza ikintu bakakizana iwawe mu buryo bwihuse nk'uko hano babigaragaza.

Aha ngaha ni mu nzu ndetse iyi nzu mu bigaragara imeze neza cyane, ikaba iherereye Kanombe mu mujyi wa Kigali, ikaba igurishwa amafaranga miliyoni ijana na cumi n'eshanu z'amafaranga y'u Rwanda.

Aha ngaha ni mu nzu mo imbere, ndetse aha ngaha hakaba ari mu gikoni cya kijyambere cyubakwa mo imbere mu nzu, kandi iyi nzu ikaba igurishwa amafaranga miliyoni ijana na mirongo ine z'amanyarwanda, ikaba iherereye Kanombe-Kigali mu Rwanda.

Iyingiyi ni inyubako ikodeshwa amafaranga magana atanu mirongo itanu y'amanyamerika. Ikaba iherereye mu mujyi wa Kigali, kabeza ndetse ahangaha turi ni mu bwogero bwayo.

Iyi ngiyi ni inyubako iri hirya y'umuhanda ndetse ikaba igurishwa amafaranga miliyoni mirongo irindwi n'eshanu z'amanyarwanda, ikaba ihereye ku muhanda wa Kabeza mu mujyi wa Kigali.

Aha ngaha ni mu nzu iyi nzu ikaba ifite imiryango ikozwe mu mbahoho nziza ndetse ihagaze umugabo bigaragara ko iyi nzu agiye kuyigurisha cyangwa se arimo arayishakira umugozi.

Hari inyubako ebyiri kandi zitandukanye ndende, zikaba zifite ubusitani burimo ibiti bikiri bigufiya, hakaba hakodeshwa amafaranga magana inani y'Abanyamerika ku kwezi ndetse zikaba ziherereye i Kigali mu Rwanda.

Aha ngaha ni inzu nziza, ndetse ikaba igurishwa miliyoni mirongo irindwi n'eshanu z'amanyarwanda, akaba ari mu mujyi wa Kigali ahazwi nka Kabeza.

Aha ngaha hakaba hari inzu nziza ikodeshwa iherereye mu mujyi wa Kigali i Kanombe ikaba irimo ibyumba bibiri byo kurarwamo, ibyumba bibiri byo kongeramo, ndetse ikabikodeshwa amafaranga ibihumbi magana atatu mirongo itanu by'amanyarwanda ku kwezi.

Aba rero urabona ko bambaye amakarita ndetse n'imyenda, bisa n'aho hari inama bari bitabiriye yiga ku bibazo runaka biba byugarije abaturage cyangwa biba byugarije igihugu, biterwa n'ingingo nyamukuru ihari.

Aha ngaha ni mu nzu ikodeshwa, ikaba ari inzu iherereye Remera, ikaba irimo icyumba kimwe, ubwogero bumwe ndetse naho batekera n'uruganiriro, ikaba yishyurwa ibihumbi magana abiri ku kwezi harimo n'ibintu byose.

Hano hari inyubako ikodeshwa ndetse iyi nzu yubatswe mu buryo bwa kijyambere bugeretse, ikaba ikodeshwa amafaranga ibihumbi bitatu by'manyamerika ku kwezi. Ikaba ifitemo ibyumba bitanu byo kurarwamo ndetse n'icyumba cy'ibiro, ikaba iherereye Gacuriro mu mujyi wa Kigali.

Iyi ngiyi ni inzu nziza ikodeshwa, iyi nzu ikaba ikodeshwa ibihumbi magana atatu by'amanyarwanda ku kwezi, ikaba iherereye Kimironko ikaba ifite uburyamo bubiri, ibyumba bibiri ndetse n'aho baganirira n'igikoni n'aho guhagarikisha imodoka.

Ahangaha ni inzu ikodeshwa amafaranga magana ane ya amerika ku kwezi ndetse iyi nzu iherereye ku Gishushu hafi y'ikigo cy'igihugu gishinzwe iterambere.

Iyi ni inyubako nini cyane kandi nziza, ikaba igurishwa iherereye Kigali Kanombe ku mafaranga miliyoni ijana z'amafaranga y'u Rwanda.

Aha ngaha ni mu iduka rinini. Hakaba hacururizwa ibikoresho by'ubugeni bigiye bitandukanye ndetse n'imitako. Hakaba harimo abantu babiri.

Hano ni mu nyubako nini yisanzuye ngari. Irimo abaguzi n'abagurisha ndetse aha angaha hakaba hacururizwa ibikoresho bitandukanye, harimo amaduka agiye atandukanye.

Aha ngaha ni mu iguriro rinini cyane. Hakaba harimo urujya n'uruza rw'abantu benshi. Hakaba harimo ibikoresho byinshi bigendanye n'ubugeni, n'ibindi bitandukanye kuko barimo barabihaha.

Ahangaha ni mu nyubako ndende ikorerwamo ubucuruzi butandukanye, harimo ubw'imyenda, inkweto, ndetse nibindi bikoresho bigiye bitandukanye, hakaba ari ahazwi nko kwa Makuza.

Aha ngaha ni mu nyubako nini ngari ndetse iyi nyubako ikaba icururizwamo ibicuruzwa by'ubwoko bwinshi butandukanye harimo abantu baje guhaha ndetse n'abakozi bahakora.

Ahangaha ni mu iduka rinini cyane ririmo abantu bari guhaha, ndetse aha hari uwambaye umupira w'umutuku, ufite agakoresho bakoresha bashyiramo ibyo bahashye karimo ibyo kurya n'ibyo kunywa bitandukanye.

Aha ngaha ni mu nyubako ndetse iyi nyubako ikaba ikorerwamo ubucuruzi butandukanye ndetse aha ngaha hakaba hacururizwa intebe nziza ndetse n'ameza yo mu ruganiriro.

Ahaha ni ahantutu hateraniye abantu benshi ndetse bikaba bigaragara nk'aho bateraniye mu gikorwa cyo kubashishikariza kujya mu kigo cy'ubwiteganyirize cya Ejo Heza.

Aha ngaha hari abantu benshi ndetse abenshi baricaye, abandi barahagaze, hakaba higanjemo abagore bafite n'abana. Mu bigaragara aha hantu hubatse nko kwa muganga.

Ahangaha ni ifoto iriho abagore ndetse hakaba nuteruye umwana ikaba ari iry'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubwisungane mu kwivuza bakubwira ko mituweli ari ishema ku muryango.

Aha ngaha hahagaze abategarugori babiri, bakaba bari muri gahunda y'ubwisungane mu kwivuza, baka bafite icyapa cyanditseho ngo:'' umunyamuryango ku isonga''.

Aha ngaha hahagaze umugabo ufite indangururamajwi mu by'ukuri ari gutanga imbwirwaruhame yerekeranye no gutanga ubwisungane mu kwivuza abasobanurira uburyo ari byiza.

Hano hakaba hari ikirangantego cy'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubwisungane mu kwivuza ndetse akaba ariho hanatangirwa mituweli, kuko ifasha abanyarwanda mu gihe bahuye n'uburwayi, bikaborohereza kwishyura ndetse ntibarembere mu rugo.

Hari abagore bane mu bigaragara bakaba bafite amakarita yerekana ko bamaze kwishyura ubwisungane mu bwivuzi ndetse bukafasha abantu kwivuza bitabagoye.

Hano ni mu isoko rinini, ndetse rikaba ricuzamo ibyinganjemo ibyo kunywa, ndetse n'ibyo kurya, hakaba hacururizwamo n'ibindi bikoresho byo mu rugo bitandukanye.

Aha ngaha iyi nyubako turimo turareba imbere, hahagaze imodoka ntoya y'amabara y'umukara ndetse hakaba hakoreramo n'isoko rinini ricuruza ibicuruzwa bitandukanye ibyinshi byifashishwa mu rugo ndetse n'ibyo kurya n'ibyo kunywa.

Aha ngaha ni mu iduka rinini cyane ndetse hakaba hacururizwamo ibicuruzwa bitandukanye ibyo kunywa, ibyo kurya ndetse hakaba harimo n'umuntu w'igitsina gore urimo araha ibicuzwa.

Aha ngaha ni mu iguriro rigezweho, iguriro ririmo bicuruzwa byinshi, harimo ibikomoka ku matungo ndetse n'imitobe ndetse n'ibyo kurya.

Mu iguriro rinini cyane ririmo ibicuruzwa bitandukanye, hakaba harimo abantu babiri bimeze nk'aho umwe ari umucuruzi ndetse undi akaba ari ugura waje guhaha ibintu runaka bitandukanye.

Ni iduka rinini cyane, iduka riririmo ibicuruzwa bitandukanye, byiganjemo ibyo kunywa amata ndetse n'imitobe yatunganyijwe iturutse ku mbuto.

Aha ngaha ni mu iguriro rinini cyane, rikaba ari iguriro ricuruza ibyo kurya n'ibyo kunywa bitandukanye ndetse bikaba binapanze mu buryo bwiza.

Ahangaha ni mu iguriro rinini cyane, iri guriro rikaba ririmo ibicuruzwa byinshi, bitandukanye, byo kurya, n'ibyo kunywa, ndetse hakaba harimo n'abantu, baje guhahamo, n'abakozi bakoramo.

Aha ngaha ni mu iguriro rinini rikaba ari iguriro rigezweho kandi ryiza ricuruza ibyo kunywa bisembuye, bituma umuntu amererwa neza.

Aha ngaha ni mu isoko rinini. Isoko ririmo umuntu w'umugabo, akaba arimo arahaha. Rikaba ririmo ibicuruzwa bitandukanye; byo kurya n'ibyo kunywa, kandi byiza.